Icyumba cy'ishuri kirimo abana bato cyane bambaye impuzankano yabugenewe, aho biga mu mashuri y'ikiburamwaka. Aba bana bakaba bigishwa hifashishwae imfashanyigisho zabo zihariye ziganjemo amashusho, ibi bibategura ubwonko bwabo ndetse bikazamura n'ireme ry'uburezi hirya no hino mu gihugu.

Abana batoya bambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'ishati ya buresiyeri ndetse n'ijipo y'umukara, aho barimo gukora isuku y'intoki bakarabywa n'abarimu babo kugira ngo bajye gufata amafunguro, ibi bikagaragaza isuku muri buri gikorwa cyane cyane cyo gufata amafunguro hirindwa ko bakandura indwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke aho barimo kuganirizwa n'umwarimu wabo abatoza gukina udukino dutandukanye, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe kw' abana bato bigishwa hifashishijwe imikino itandukanye bibafasha mu kwagura ubwonko, ndetse no gutekereza kure cyane banakunda ishuri.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, aho bari baje ku ishuri mu gitondo barimo kugenda binjira mu mashuri yabo kugira ngo bahabwe uburezi ndetse banigishwe amasomo atandukanye n'abarimu babo baba baje kubitaho, ibi bikagaragaza imitangire myiza ndetse n'uburezi kuri bose hirya no hino mu gihugu.

Abana b'incuke bari mu mwiherero, bicaye bakikije umwarimu wabo kumukeka, arimo kubigisha kuririmba ndetse no kubyina utubyino tumwe na tumwe, nkuko byagaragajwe n'impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe, gutegura umwana umwigisha binyuze mu ndirimbo ndetse n'imikino, ari bimwe mubimutegura mu mutwe, bimushishikariza gushima ndetse no gukunda ishuri.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'amashati y'imihodo ndetse n'amakabutura y'icyatsi, bafatanye mu ntoki batonze uruziga, aho barimo kwiga ndetse banakora imyitozo ngororamubiri. Ibi kandi bikaba byaragaragajwe n'impuguke mu by'ubuvuzi ko gukora ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri ari kimwe mu bifasha abanyeshuri gutekereza neza, bityo bagakurikira amasomo yabo nta nkomyi.

Abana b'incukiye barimo kuganira n'umubyeyi, aho bari ku nzu y'irerero y'umudugudu, aho bigishwa ubumenyi bw'ibanze. Harimo nko kubara, kuvuga ndetse no kumenya gusoma ibintu bimwe na bimwe. Bikagaragaza iterambere mu burezi, aho abakiri bato bitabwaho mu mikurire yabo, hibandwa kuba bazamura ubumenyi, bizabafasha mu myigire yabo.

Abana b'inshuke bari mu irerero aho bitabwaho n'ababyeyi ndetse n'abarimu, bahabwa inyigisho z'ibanze bakenera, zibandamo ubumenyi rusange nko kubara kuvuga ndetse no gusoma amagambo amwe n'amwe, ibi bigaragaza umusingi mwiza w'uburezi aho abana batozwa kumenya ndetse no gukunda ishuri hakiri kare.

Icyumba k'ishuri kicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, aho bicaye bazengurutse ameza ku tutebe twabugene aha akaba ari mu mashuri aho ibikoresho by'ibanze byifashishwa mu kunoza serivisi z'uburezi ndetse no kuzamura ireme ryabyo, bigenda biboneka hirya no hino mu gihugu bihagaragaza iterambere mu burezi aho uburezi bugera kuri bose hirya no hino mu gihugu.

Abana b'incuke biga mu amashuri y'ikiburamwaka aho bitabiriye amasomo yabo bakaba barimo gukina imikino itandukanye bafashijwemo na mwarimu wabo, ibi akaba ari bimwe mu bitangwamo inama n'impuguke mu by'uburezi kuko abana iyo bigishijwe hifashijwe imikino ndetse n'indirimbo bibafasha gufata ibyo biga vuba ndetse bikabakundisha ishuri.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bicaye bakikije ameza. Inyuma yabo hari ikibaho bigiraho amasomo yabo. Aha akaba ari mu ishuri, aho abanyeshuri ndetse n'abarimu bahurira bakungurana ibitekerezo, ndetse harebwa ubushobozi bw'umunyeshuri bumufasha kuba yatekereza, ndetse akaba yanakora ibikorwa biri imbere bigamije kuzamura iterambere ry'Igihugu.

Ameza arambitseho ibitabo byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'ikiburamwaka, aho higanjemo ibikoresho byifashishwa n'aba banyeshuri kubera umwihariko w'inyigisho zabo ziganje mu mashusho nka bimwe mu bibafasha mu gufata mu mutwe ndetse no gukunda ishuri bakiri bato.

Umwana w'umunyeshuri wambaye impuzankano yabugenewe uhetse agakapu k'umugongo aho aje ku ishuri. Bigaragaza iterambere mu burezi, aho hirya no hino mu gihugu hari amashuri abana babasha kugerwaho na serivisi z'uburezi bitabagoye ndetse hafi yabo, banitabwaho n'abarezi.

Mu cyumba cy'ishuri hatangwa serivisi z'uburezi, hagaragara ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abarimu ndetse n'abanyeshuri; harimo nk'intebe, ameza, utubati ndetse n'ibindi byose bikenerwa mu kugira ngo imitangire myiza ya serivisi z'uburezi inozwe hirya no hino mu mashuri.

Icyapa kiri ku muhanda nyabagendwa, gifite ubuso bw'umweru, cyanditseho amagambo mu mabara menshi kigaragaza ko inyubako ikoreramo ikigo cya Eden School, aha akaba ari ishuri ribanza ndetse n'ay'inshuke, aho abanyeshuri bahabwa uburezi ndetse bitabwaho n'abarimu babihuguriwe neza.

Mu kigo cy'amashuri hagaragara ibikorwa bitandukanye ndetse n'ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo gukora mu bihe by'amasomo yabo, ndetse banidagadura, nka bimwe mu bitangwamo inama n'impupuguke mu by'uburezi, ko umwana waruhutse neza agakina akisanzura, bimufasha kuruhura mu bwonko, bityo akaba yagira ubushobozi bwo gufata ibintu byinshi ndetse anabishyira mu ngiro.

Abana b'abanyeshuri bari mu gihe cyo kuruhuka ubwo bitabiriye amasomo ku kigo bigaho; iyi akaba ari imwe mu mpamvu ituma abanyeshuri babasha kuruhuka kugira ngo bakoreshe amasomo yabo. Ibi nka bumwe mu buryo bwagaragaje ko iyo umuntu yaruhutse neza ashobora kwiga bigateza imbere ireme ry'uburezi ndetse n'imyigire byiza mu mashuri.

Ibyapa bimanitse ku nyubako yigishirizwamo, Abafite ubumuga butandukanye, ibizwi nka smart classroom. Aha hakaba mu mashuri yigishwamo, abantu bafite ubumuga butandukanye. Aho bigishwa gusoma no kwandika bakoresheje, indimi z'amarenga. Hamwe mu buryo bafasha mu kugira uburezi, ndetse no kubona serivisi z'uburezi. Hirya no hino mu bigo by'amashuri.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, baje ku masomo yabo ku ishuri, aho kandi bahabwa n'ibindi bikoresho by'ibanze bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, hagamijwe ko bazamura imibereho yabo ndetse banumva neza ibyo biga, nka bamwe mu cyiciro cy'abafite ejo hazaza h'igihugu.

Ubwiherero rusange bukoreshwa mu kigo cy'amashuri mu gihe abanyeshuri bakeneye kujya mu bwiherero. Iyi akaba ari kimwe mu bisangwa hirya no hino mu bigo by'amashuri ndetse n'ahandi hose hahuriye abantu benshi mu rwego rwo gufasha abahurira aho ngaho kugira isuku ndetse no kwita ku mibereho myiza yabo.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu rwego rurimo kuzamuka cyane ku muvuduko munini mu gihugu cyacu, aho buri ingeri zose zigirwa inama yo kuyoboka ikoranabuhanga nka kimwe mu bisubizo ku mitangire ya serivisi, ndetse no kunoza akazi mu nzego zitandukanye. Aho kandi n'abanyeshuri bigishwa gukoresha mudasobwa neza bayibyaza umusaruro, nka bumwe mu buryo isi irimo kwerekezamo igihe kiri imbere.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe barimo guseka cyane, ni nyuma y'uko bavuye mu bikorwa byo kuruhura mu mutwe bizwi nka rekereyasiyo, ibi akaba ari bimwe mu bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuzima ko umwana aba akeneye nibura kuruhuka iminota mirongo itatu, mu gihe hagati mu masomo bimufasha kwiga neza ndetse bikamuha n'ubuzima bwiza.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe igizwe'ishati ya buresiyeli ndetse n'amajipo ya kaki bahagaze imbere y'amashuri yabo hari icyapa kigaragaza ko ari ikigo cy'amashuri cya Cyarwa. Aya akaba hatangirwa uburezi bw'ibanze ndetse n'ubw'amashuri y'isumbuye abanyeshuri bitabwaho bahabwa amafunguro ndetse banahabwe uburezi bufite ireme.

Mu bigo by'amashuri byigamo abanyeshuri bacumbika habamo inyubako zitandukanye zikorerwamo serivisi zinyuranye, harimo nk'iy'uburiro, amacumbi, amashuri ndetse n'izindi, aho imbere ya buri nyubako hagenda hagaragara icyapa kibwira cyanga se kirangira abari mu kigo kibereka igikorerwa mu nyubako runaka bagezeho.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu bikoresho byifashishwa no mu nzego zitandukanye yaba iza leta, iz'abikorera ndetse n'ahandi hose hatandukanye nk'igikoresho cyifashishwa mu kwihutisha imitangire ya serivisi ndetse no kunoza imibereho. Aha kandi akaba ari mu kigo cy'amashuri ahagaragara mudasobwa zihabwa abana biga muri primaire, aho bitabwaho kugira ngo bazabashe gukoresha neza ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Aba banyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, aho bari mu gihe cyo gukina bikora imyitozo ngororamubiri itandukanye, bikabafasha kuruhuka mu mutwe, bityo bagasubiramo amasomo yabo bameze neza mu mutwe ndetse umunaniro washize, ibi bikazamura ireme ry'uburezi hirya no hino.

Igikoresho kifashishwa n'abanyeshuri bari ku mashuri ubwo bashaka gutanga ubutumwa butandukanye nko kumenyesha ko amasaha yageze cyangwa se ibindi. Iki gikoresho kikaba kifashishwa gihondwaho ibuye. Bityo abari mu kigo bose bakamenya igikorwa ko kigiye gukurikira.

Icyumba cy'ishuri cyubatswe na guverinoma y'u Rwanda, gikoreshwa n'abanyeshuri barimo kwiga mu uburyo rwo gufasha abaturage bose kugerwaho n'uburezi hirya no hino mu gihugu, hagaragaramo ibikoresho by'ibanze bikenerwa mu ishuri harimo nk'ikibaho intebe amadirishya ndetse n'ibindi.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, igizwe n'ishati ya buresiyeri ndetse n'ikabutura y'ikigina, aho bagiye gufata amafunguro bicaye biteguye. Iyi ikaba ari gahunda yashyizweho na Guverinoma y'u Rwanda, mu rwego rwo gufasha abanyeshuri ko bagira ubuzima bwiza ndetse n'imibereho myiza, bitabwaho bahabwa amafunguro ku mashuri, mu rwego rwo gufasha kuzamura ireme ry'uburezi.

Inyubako zitandukanye zigaragara hirya no hino ku bigo by'amashuri zigirwamo n'abanyeshuri. Harimo kandi n'ibyumba bitandukanye haba ibyokuryamo ibyogucumbikamo ndetse n'ibindi bitandukanye. Byose bigaragazwa n'isuku ndetse n'ubudahangarwa ku banyeshuri.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano yabugenewe, bari mu cyumba cy'ishuri aho barimo gusoma igitabo bahawe na mwarimu, bikagaragaza iterambere mu burezi, aho abana bahabwa ibikoresho by'ibanze bakenera, kugira ngo bakorere imyizire myiza.

Hirya no hino mu mashuri hagaragara ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abarezi igihe barimo kwigisha abanyeshuri ndetse bungurana ibitekerezo hagati yabo, ibi kandi bikaba bigaragara mu mashuri abanza, ayisumbuye, ndetse na za kaminuza, aho hose hakenewe uburezi bw'ireme.

Amajerekani ni kimwe mu bikoresho byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho cyane cyane byifashishwa n'aborozi mu gihe barimo kugeza ibiribwa ndetse n'ibinyobwa ku matungo yabo, harimo nk'amazi, ibiryo ndetse n'ibindi. Ibyose bigafasha mu kuzamura ireme ry'ibi.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano igizwe n'ibara ry'ubururu bari ku ishuri aho baje gukira amasomo yabo. Bagahabwa kandi n'iby'ingenzi bakenera byiganjemo amazi, ibikoresho byo gukina ibibuga byo kwidagadura ndetse n'ibindi byose bagamije ko bagira ubuzima bwiza ndetse hanazamurwa ireme ry'uburezi muri rusange.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni bumwe mu butanga amafaranga menshi ndetse bukazamura imibereho myiza yobabukora iyo bwitawe ndetse kinyamwuga. Aha ni mu murima hagaragara ibiraro byoroherwamo inkwavu bifasha n'umuhinzi kubona ifumbire imufasha gufumbira imirima ye, bityo akabona umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Ibyumba by'amashuri byubatse ku murongo, aho abanyeshuri bigira amasomo yabo ya buri munsi, hari kandi ubusitani bwiza cyane bukikije ikigo, ndetse n'ikibuga gifasha abanyeshuri kwidagadura, nka bimwe mu byagaragajwe ko bifasha abanyeshuri mu myigire baruhura mu mutwe, ndetse banunguka ubumenyi bushyashya, ndetse banabashe kugaragaza impano bifitemo.

Abana b'abanyeshuri bari gukora imikino itandukanye irimo kwicunga mu byicungo, kuguruka, gusimbuka imigozi, ndetse n'ibindi, ni imwe mu mikino igaragara hirya no hino mu mashuri cyane cyane ku banyeshuri b'amashuri abanza, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke ko gukora imyitozo ngoromubiri bifasha umwana kuruhuka, bityo akaba yakurikira amasomo ye neza nta nkomyi.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu bikoresho byifashishwa kuri ubu hirya no hino ku isi ndetse bikanihutisha imitangire ya serivisi, ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye by'ubucuruzi ndetse n'imibereho niyo mpamvu n'abiga mu mashuriza batasigajwe inyuma, ahubwo bahawe mudasobwa zibafasha mu kwimenyereza iri koranabuhanga, baribyaza umusaruro ndetse banakoresha amahirwe ritanga mu kwiteza imbere.

Abana b'abanyeshuri bari mu ishuri bambaye impuzankano yabugenewe, aho baje gukurikirana amasomo yabo, aho kandi babona ibikoresho by'ibanze bakenera mu mashuri, harimo nk'ibitabo, intebe ndetse n'ibindi bakenera byose, bigamije kuzamura ireme ry'uburezi hirya no hino mu mashuri.

Kwigisha abana hifashijwe ibikoresho ndetse no kubaha amashusho y'ibyo biga ni kimwe mu bigaragaza ko abana biga ndetse bakanafata mu mutwe vuba ibyo bigishwa, Iyi akaba ari imwe muri tekinike zikoreshwa n'abarimu mu gihe barimo gutanga amasomo cyane cyane ku bana bakiri bato hagamijwe ko bazamura ireme ry'uburezi.

Ameza arambitseho impapuro ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, hagaragara ingengabihe y'umwaka igaragaza amatariki neza. Bifasha abahinzi ndetse n'abandi bose bakora imyuga y'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, kumenya neza aho ibihembwe by'ihinga bigeze, ibyo bikabafasha kubitegura neza hagamijwe ko bateza imbere umusaruro wabo.

Umunyeshuri wambaye impuzankanmya yabugenewe ari gutembera mu kigo cy'amashuri by'umwihariko mu busitani bugaragara hagati mu kigo aho ikigo cy'amashuri kandi abanafite ibibuga ndetse n'ibikoresho bifasha kwisanzura bagaragaza impano zabo ndetse bane mu ishurikana bituma bigaragaza iterambere ry'uburezi hirya no hino mu gihugu.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, bahetse udukapu, barimo gukina, ni mu masaaha yagenewe kuruhuka, aho abanyeshuri mo hagati mu masomo bafata umwanya bakaruhura mu mutwe, iyi akaba ari imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuvuzi, ko kugira igihe cyo kuruhuka mu gihe abanyeshuri bari ku mashuri bibafasha kuruhura mu mutwe, ndetse no gutekereza neza mu gihe bari mu masomo yabo.

Uburezi ni kimwe mu gice kigize ubuzima bw'Igihugu aho abakiri bato bigishwa amasomo atandukanye yaba ay'ubumenyigiro, siyansi ndetse n'ibindi, hagamije ko bo nka Rwanda rw'ejo bagira ubumenyi buba inkingi ya mwamba mu guharanira iterambere ry'Igihugu. Aha akaba ari mu mashuri ahagaragara ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kunoza uyu umwuga ndetse no gutanga uburezi bufite ireme.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara ndetse n'amasogisi y'umweru, ubwo bicaye bakikije umuyobozi wabo barimo gusoma impapuro zitandukanye, aha akaba ari mu kigo cy'amashuri, aho abanyeshuri batozwaho kugira ikinyabupfura ndetse no kugira isuku mu byo bakora byose.

Urubyiruko rwiganjemo abanyeshuri biga mu mashuri makuru bahuriye hamwe ku kibuga, aho bicaye bazengurutse bakoze uruziga. Bakaba barimo guhugurwa ku ngamba zitandukanye zafatwa hirindwa icuruzwa ry'abantu nka bamwe mu cyiciro cy'abantu bakunda kwibasirwa na bene ubu bucuruzi ndetse no kubeshywa bya hato na hato.

Icyumba cy'ishuri kicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yabigenewe ndetse ku ntebe, ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze biboneka mu ishuri barimo gukora ibizamini. Imbere yabo harambitse impapuro ndetse bari kumwe n'umwarimu urimo gusuzuma niba nta barimo gukopera, cyangwa gukora amanyanga mu gihe k'ibizamini.

Mu ishuri ni hamwe mu hagaragara ibikoresho by'ibanze ndetse byihariye, byifashishwa n'abanyeshuri ndetse n'abarimu kugira ngo bazamure ireme ryu'burezi. Aha twavugamo nk'intebe, ameza, ibibaho ndetse n'ibindi, aho abanyeshuri bashobora kwandika ndetse bakungurana ibitekerezo n'abarimu bigamije ko bateza imbere uburezi.

Ibyumba by'amashuri byinshi cyane byubatse bikozeho ishusho ya mpande enye, aho hagati yabyo hari ikibuga cyifashishwa n'abanyeshuri mu gihe barimo gukora imyitozo ngororamubiri, cyangwa se baruhuka mu mutwe mu gihe cy'amasomo, nk'uko bigaragazwa n'impuguke mu by'ubuvuzi; ko kwita ku buzima bwo mu mutwe abantu baruhuka, ari bimwe mu bifasha abanyeshuri gukomeza kugira imyigire myiza, ndetse no kuzamura ireme ry'uburezi muri rusange.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe barimo kwinjira mu nzu y'uburiro izwi nka refekitware, aha hakaba ari aho bafatira amafunguro yabo ku mashuri, imwe muri gahunda zashyizweho na Guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo gufasha abanyeshuri kugira imyigire myiza bahabwa amafunguro ku ishuri.

Icyumba cy'inama kinini cyateraniyemo abayobozi b'ishuri, abanyeshuri ndetse n'ababyeyi bafatanya kurera mu rwego rwo kugira ngo bigire hamwe uko abana babo bakitabwaho ndetse bakagira ubuzima bwiza, byose bibafasha mu kuzamura imitsinde ndetse n'ireme ry'uburezi mu mashuri hirya no hino mu gihugu.

Mu kigo k'ishuri hagaragara ibikorwa remezo bitandukanye nk'ibibuga by'imipira, inzu yo kwidagaduriramo ndetse n'ibindi binyuranye byose bifasha abanyeshuri kugira ubuzima bwiza ndetse no gukura ndetse no kugaragaza impano zabo zitandukanye, byose bigamije ko ireme ry'uburezi rigerwaho kandi rikagaragaza umusaruro.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, bicaye neza bakurikiye mugenzi wabo urimo kubasobanurira, mu mwanya wagenewe kungurana ibitekerezo, aho abanyeshuri basobanurirana hagati yabo, ibi bikazamura imitsindire yabo ndetse n'ireme ry'uburezi, aho babasha kugira uruhare mu myigire yabo ya buri munsi.

Imodoka nini zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ubwo zarimo gutwara abanyeshuri basubiye ku mashuri nyuma yo gusoza ibiruhuko, bafite ibikapu byabo. Ibi bikagaragaza imyoroshyo mu ngendo, cyane cyane ku banyeshuri mu gihe basubira ku mashuri, kugira ngo bajye kwitabwaho ndetse banazamura ireme ry'uburezi.

Icyumba cy'ikoranabuhanga kibarizwamo mudasobwa, aho abanyeshuri bajya bagakora ubushakashatsi ndetse n'ubucukumbuzi bwimbitse, ku masomo yabo, ndetse bakaba banavumbura ibindi bintu bishyashya bifashishije ikoranabuhanga, mudasobwa ndetse na interinete biba biboneka mu cyumba cy'umwihariko bibone hirya no hino ku mashuri.

Inyubako y'igorofa yubakishije amatafari ahiye ifite igisenge cy'umutuku, imbere yacyo hari ubusitani bwiza cyane ndetse n'utuyira tunyurwamo n'abanyamaguru, aha akaba ari mu kigo cy'ishuri aho abanyeshuri babona iby'ibanze nkenerwa nk'amacumbi, ibiryo ndetse n'ibindi bitandukanye, byose bibafasha kugira ubuzima bwiza bityo bikazamura ireme ry'imitangire ya serivisi z'uburezi.

Icyapa kinini cyane kiri ku marembo gitanga ikaze ndetse kiyobora n'abandi bose bakoresha imihanda kibamenyesha ko iyi nyubako ikoreramo ikigo cya groupe scolaire Kageme, iki kigo kikaba ari ikigo cy'amashuri yisumbuye ndetse aho abanyeshuri bahabwa ubumenyi bw'ibanze bafasha mu buzima bwabo ndetse no gutanga umusanzu wabo mu kubaka igihugu.

Icyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu kiri ku muhanda nyabagendwa, kirangira abaturage ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda Kibereka ahakorera ikigo cy'ishuri cya école secondaire Butare. Aha hakaba ari hamwe mu bigo by'indashyikirwa bigaragara mu Rwanda, aho aba banyeshuri bahabwa uburezi ndetse na displine bibafasha mu buzima bwabo, ndetse bibafasha kwiteza imbere bateza imbere n'igihugu muri rusange.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri ku ntebe zabugenewe bakurikiye mwarimu aho we arimo kubigisha abaha n'ingero zitandukanye ibi byose zibafasha kumva neza amasomo bigishwa ndetse bakazamura n'ireme ry'uburezi hirya no hino mu mashuri.

Inyubako ndende cyane y'igorofa ifite igisenge cy'ubururu ifite kandi n'ubusitani bwiza imbere yabwo ikaba ari igishirizwamo amashuri makuru kandi i ikagaragaza iterambere mu myigishirize aho abanyeshuri bagira ibikoresho ndetse n'ibyangombwa nkenerwa kugira ngo bakurikirane amasomo yabo ya buri munsi.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, barimo kugenda mu muhanda munini wa kaburimbo nyabagendwa, mu kayira kagenewe abanyamaguru, ahagaragara kandi ubusitani bwiza cyane bukikije imihanda, byose bigaragaza iterambere ry'igihugu cyacu, aho imihanda iba ihari kandi ikoze neza.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, igizwe n'ishati ya bleu ciel ndetse n'amapantaro y'ikigina, bahuriye mu kibuga cy'umukino w'amaboko uzwi nka basket. Kwahuye ngo bahure n'abayobozi babo babaha impanuro zizabaherekeza mu gihe bagiye mu biruhuko birinda ibishuko, ndetse n'ingeso mbi byabangiriza ejo hazaza.

Mu byumba byagenewe gucumbikira abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, hagaragara ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri bacumbitse muri aya macumbi, ni ibintu bitandukanye harimo nk'ibitanda, intebe, ameza, matera, ndetse n'ibindi by'ibanze byose bakenera mu gihe bacumbitse aha hantu, ibi bikagaragaza iterambere, ndetse n'ibizamuka muri system.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye. Imbere yacyo hari ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda, hari kandi n'ubusitani n'utuyira twagenewe kunyurwamo n'abanyeshuri mu gihe baje gukurikirana hanze banataha bavuye mu masomo yabo. Ibi bikagaragaza imitangire myiza ndetse n'ireme ry'uburezi rizamutse aho ibikoresho ndetse n'ikoranabuhanga biboneka hirya no hino mu mashuri.

Ibyumba by'amasomero ni bimwe mu bikorwa remezo biboneka hirya no hino ku mashuri ahatangirwa serivisi z'uburezi zinyuranye. Aho abanyeshuri bajya ndetse n'abarezi bakabasha kwiyungura ubumenyi binyuze mu gusoma ibitabo, ndetse no kungurana ibitekerezo yaba ibiboneka mu ntoki nangwa se ibifatisha mudasobwa mu rwego rwo kuzamura ireme ry'uburezi ndetse n'imitangire myiza ya serivisi z'uburezi. Mu mashuri.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'ishati y'umweru ndetse n'amajipo n'amapantaro bya kaki. Bicaye ku ntebe barimo gukurikirana amasomo yabo bandika, ndetse kandi imbere yabo hariho umwarimu urimo gutanga amasomo. Bigaragaza ireme ry'uburezi, aho abanyeshuri bitabwaho bigishwa n'abarimu b'impuguke, bafasha mu kumva neza amasomo biga, ndetse babereka n'akamaro kawo mu gihe kiri imbere.

Aba ni abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'ishati y'umweru ndetse n'amapantaro y'ubururu, aho bahurirwa mu kibuga imbere y'amashuri bigiramo. Barimo kuganirizwa n'umuyobozi wo mu nzego z'umutekano abahugurira ibyaha bitandukanye ndetse n'ihohoterwa bashobora guhura na byo mu gihe bari mu bikorwa by'burezi bwabo bwa buri munsi, bityo ko bagomba kuba ijisho rya mugenzi wabo, hirindwa ihohoterwa ndetse n'ibindi byaha bitandukanye bigaragara hirya no hino mu mashuri.

Icyapa gifite ibara ry'icyatsi cyanditse amagambo mu ibara ry'umweru kimenyesha abayobozi b'ibyabiziga ndetse n'abandi bose kibereka ahatorera ikigo cy'ishuri bigafasha abakoresha imihanda ndetse n'abandi kugenda bigengeseye ndetse kinabayobora aho ikigo gikorera.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe bahurijwe hamwe mu kibuga, aho barimo kuganirizwa n'abayobozi babo bababwira imyitwarire myiza bagomba kugaragaza mu gihe cy'ibiruhuko, kugira ngo babashe kwirinda ejo habo hazaza, ndetse birinde n'ibishuko, n'ibindi byose byatuma bajya mu ngeso mbi.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, bahetse ibikapu byabo aho bari bagiye mu biruhuko, iyi akaba ari imwe muri serivisi bahabwa zigamije kuborohereza, aho bahabwa imodoka zibafasha mu ngendo zabo, bajya cyangwa bava ku mashuri nk'abamwe mu bagomba kwitabwaho cyane kuko ari bo Rwanda rw'ejo.

Icyapa kinini cyane gifite ubuso bw'umweru cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, kigaragaza ko ari ikigo cya Notre dame de la Providence de Karubanda, iki cyapa kikaba kiyobora abakoresha umuhanda ndetse n'abandi bose kibabwira ikigo cya Karubanda giherereye.

Inyubako nini cyane yubakishije amatafari ahiye imanitseho icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara kigaragaza ikoreramo ikigo cya EAR diyosezi ya Busengo hakaba hatangirwa serivisi z'uburezi zitandukanye. Aho ari ibigo by'amashuri ndetse n'ibigo nderabarezi bitandukanye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe bahurijwe hamwe mu kibuga, mu kigo cy'amashuri bigamo, aho barimo kuganirizwa n'abayobozi babo ndetse n'abashyitsi babasuye, babahanura, babaha impanuro ndetse n'inama bizabaranga mu gihe bagiye mu biruhuko, birinda ibishuko ndetse n'ibindi byose byabagusha mu ngeso mbi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, bahurijwe hamwe mu kibuga kiri mu kigo cyabo, barimo kuganirizwa n'abayobozi ndetse n'abatumirwa, bababwira akamaro ko gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, hamwe mu bibafasha mu kugira isuku ya buri munsi ndetse birinda n'indwara zitandukanye zituruka ku mwanda.

Abanyeshuri bicaye hamwe mu kibuga bahurijwe hamwe mbere y'uko bataha, aho barimo guhabwa impanuro n'umuyobozi wabo, ababwira imyitwarire bagomba kugaragaza muri sosiyete mu gihe bagiye mu biruhuko ndetse n'akamaro byabagirira, birinda kujya mu ngeso mbi n'ibishuko ndetse n'ibindi bitandukanye.

Icyapa gifite ibara ry'ubururu ndetse n'ubuso bw'umweru, cyanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu, kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda, kibamenyesha ko imbere hari ikigo cy'amashuri. Ibi bigafasha abakoresha imihanda kwigengesera ndetse no gukoresha neza imihanda, bazirikana ko hari abana bari mu mashuri.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'ishati ndetse n'jipo by'iniforume, aho bicaye bakikije ameza bari mu gihe cyo gusobanurirana amasomo hagati yabo, iyi akaba ari imwe muri gahunda zashyizweho mu rwego rwo gufasha abanyeshuri kungurana ubumenyi hagati yabo bigishanya, nka bimwe mu bibafasha mu kumenya byinshi, ndetse bakanungurana ibitekerezo ku masomo bahawe n'abarimu babo.

Icyumba cy'ishuri kirimo abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'ishati y'umweru ,ndetse n'ikabutura ya kacyi aho bari mu mwanya wagenewe gusubira mu amasomo ku giti cyabo nta mwarimu wahari akabamo bigaragaza iterambere mu burezi aho kandi abanyeshuri bahabwa umwanya wabo ku giti cyabo bikoreraho ubushakashatsi bikazamura ireme ry'uburezi , ndetse n'imyigishirize muri rusange.

Igipangu kirekire cyane gisize amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, kiriho ibirango bigaragaza ko gikoreramo mu ishuri ry'indatwa, ndetse n'inkesha. Iyi akaba ari kimwe mu bigo bitanga serivisi z'uburezi, aho abarererwa muri iri shuri bahabwa ubumenyi bubafasha, mu kwiteza imbere ndetse no kwihangira umurimo, ndetse no kugira uruhare mu kuzamura iterambere ry'igihugu, ndetse no mu gihe kizaza.

Urubyiruko rw'abanyeshuri rurimo kuganira n'abayobozi babo ndetse n'abatumirwa, aho barimo kungurana ibitekerezo bagirwa inama z'uko bakwitwara mu gihe cy'ibiruhuko, birinda ibishuko ndetse n'izindi ngeso mbi zabakururira kugwa mu byaha ndetse no kuba hakwangiriza ejo habo hazaza.

intebe ya pipitile ikorwa hifashishijwe ibyuma ndetse n'imbaho, aho izi ntebe zigaragara hirya no hino mu mashuri zikoreshwa n'abanyeshuri bari mu bikorwa byo kwiga, kuko zifite umwanya wabugenewe wo kwicaraho, ndetse no kubika amakaye yabo, ndetse n'ibikoresho by'ibanze bakenera mu gihe cy'amasomo yabo.

Mu cyumba k'ishuri ahatangirwa uburezi ni hamwe mu hagaragara ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abarezi ndetse n'ibyifashishwa n'abanyeshuri nk'intebe, ameza, utubati, imbaho ndetse n'ibindi byose bigaragaza iterambere mu burezi ndetse no guharanira ku ireme ry'uburezi ryagerwaho.

Ibyumba bicumbikwamo n'abanyeshuri mu gihe bari ku mashuri hagaragaramo ibikoresho by'ibanze bakenera, harimo nk'ibitanda, matera, amashuka, ndetse n'ibindimo. Ibi akaba harimo no gufasha abanyeshuri kugira imibereho myiza bitabwaho aho biga baba mu kigo, kugira ngo ireme ry'uburezi ritere imbere.

Abana b'abanyeshuri bari muri gare bahetse ibikapu ndetse n'ibikoresho byabo by'ishuri, aho bari bagiye mu biruhuko, barimo gutwarwa n'imodoka zagenewe kubatwara, bigaragaza ireme ry'uburezi aho abanyeshuri bitabwaho bahabwa serivisi zihariye, baba mu cyiciro cy'abantu bihariye ndetse bitabwaho n'inzego zitandukanye z'igihugu.

Inyubako y'igorofa ifite ibyumba by'amashuri byinshi cyane bitondetse ku murongo, yaba hasi ndetse no hejuru. Aha hakaba ari ahatangirwa serivisi z'uburezi, aho abanyeshuri bahurira n'abarimu bakigishwa indangagaciro, kirazira, ndetse n'amasomo y'ubumenyi rusange, nka siyanse, imibare ndetse n'ibindi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, igizwe n'ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ikigina; aho bahuriye mu nzu mberabyombi, bicaye neza ku ntebe bakurikiye imbwirwaruhame bari kugezwao n'umuyobozi wabo ,ababwira uko bagomba kwitwara mu gihe cy'ibiruhuko, cyane cyane ibi ibishuko. Ndetse n'ibindi bintu byose bishobora kubashora mu ngeso mbi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe bicaye bakurikiye umwarimu, aho arimo kubagezaho amasomo ndetse bafite n'amakayi bafata imirongo migari y'ibyo bari kwigaho, ibi byose bigaragaza iterambere mu burezi, aho abanyeshuri bitabira amashuri ndetse bakanabasha kwigishwa binyuze mu nzira nziza hagamijwe kuzamura ireme ry'uburezi.

Ibyumba bicumbikwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, hagaragara ibikoresho bitandukanye bifasha abanyeshuri kugira ubuzima bwiza, ndetse no kubaho bisanzuye harimo: nk'ibitanda, matera, intebe ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Icyumba cy'ishuri kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abarimu ndetse n'abanyeshuri mu gihe barimo kwigishwa amasomo yabo, hagaragaramo: intebe, ameza, utubati, ikibaho, mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho byose by'ibanze byakenerwa mu gihe abantu bari mu ishuri.

Muri laboratoire aho abanyeshuri bimenyereza ndetse banashyira mu ngiro ibyo bize mu mashuri mu gihe gitandukanye. Hagaragara ibikoresho bitandukanye bifashisha, harimo nka mudasobwa ndetse n'imashini zabugenewe. Byose bigaragaza ireme ry'uburezi ndetse n'iterambere mu burezi muri rusange.

Inyubako zicumbikwamo n'abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho bitabwaho bagahabwa iby'ibanze bakenera birimo amacumbi, uburyamirwa ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze, bibafasha kugira ubuzima bwiza mu rwego rwo kubafasha kuzamura ireme ry'uburezi.

Ibyumba bicumbikwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, hagaragara ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'aba banyeshuri, hagamije ko bagira imibereho myiza mu gihe bari mu masomo yabo, harimo: nk'ibitanda, ameza, intebe, utubati, ndetse n'ibindi byifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inyubako z'amacumbi zicumbikwamo n'abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda. Ibi akaba ari mu rwego rwo gufasha abanyeshuri kugira ubuzima bwiza, bitabwaho ndetse bahabwa n'ibindi byangombwa nkenerwa, hagambiriwe ko ireme ry'uburezi rizamuka ndetse bakitabwaho, ibi byose bigaragaza imbaraga Guverinoma y'u Rwanda ishyira mu burezi, hirya no hino mu gihugu.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi n'ingofero y'umweru, ahagaze arimo kubwira ijambo abitabiriye ibikorwa by'umunsi mpuzamahanga wagamije kwita ku bidukikije, wari wabereye mu kigo cy'Igihugu cyigisha imyuga ndetse n'ubumenyi ngiro RP, aho barimo gutanga imbwirwa ruhame ku bari bitabiriye aya mahugurwa.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu byifashishwa mu kwihutisha imitangire ya serivisi ndetse no kunoza akazi, hirya no hino yaba mu ngo mu mashuri ndetse n'ahandi, aho banyeshuri bifashisha mudasobwa mu myigire yabo, bafasha kwihutisha ndetse no kwiga ibintu byinshi, bakora ubushakashatsi, ndetse baniyungura ubumenyi buzabafasha mu gihe bazaba bageze ku isoko ry'umurimo.

Abagabo babiri bari kumwe n'umugore umwe, bicaye muri laboratwari, bambaye amataburiya, uturindantoki, ndetse imbere y'abo hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri, mu gihe bari muri laboratwari. Izi akaba ari inyubako zagenewe kwita ku banyeshuri cyane cyane abiga ibijyanye n'amasiyanse, aho bashyira mu ngiro ibyo biga ndetse banabibyaza umusaruro.

Icyumba cy'inama cyahuriyemo abayobozi mu nzego za leta, abanyeshuri, abarimu ndetse n'ababyeyi, aho abanyeshuri biga mu ishuri ry'ubumenyingiro ndetse n'imyuga rya IPRC Tumba, bari barimo kugaragariza abaturage ibyo bakoze ndetse n'imashini bakoze mu gihe cy'amasomo cyabo. Bikagaragaza iterambere mu burezi, aho abanyeshuri bashobora guhanga udushya ndetse banakemura ibibazo bimwe na bimwe bigaragara muri sosiyete.

Abanyeshuri benshi cyane bahagaze mu cyumba cya laboratwari, iki akaba ari icyumba cyifashishwa n'abarimu ndetse n'abanyeshuri, mu gihe bigishwa gushyira mu ngiro ibyo bize mu mashuri, bityo bikagaragaza ireme ry'uburezi riteye imbere, ndetse n'iterambere mu burezi muri rusange.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu byihutisha imitangire ya serivisi ndetse bikanoza n'imigendekere myiza yayo, aho hirya no hino mu gihugu hagaragara ibikoresho bitandukanye nka mudasobwa, telefone ndetse n'ibindi byifashishwa mu kunoza bene izi serivisi.

Inyubako izwi nka laboratwari ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'amasiyansi, aho abanyeshuri bimenyereza ibyo biga ndetse banashyira mu ngiro ibyo bize mu mashuri, bikagaragaza iterambere mu burezi ndetse n'ireme ryabwo, aho abanyeshuri bashobora gushyira mungiro ibyo bigira mu mashuri, babishyira mu buzima bwa nyabwo.

Ikibuga gikinirwaho umukino w'amaboko uzwi nka basket, aho abantu b'ingeri zitandukanye yaba urubyiruko, abakuru ndetse n'abana bakorera imyitozo ngororamubiri bakina uyu mukino, bikabafasha kwirinda indwara zitandukanye zitandura nka diabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi.

Amasomero ni kimwe mu bikorwa remezo bigaragara hirya no hino mu mashuri ndetse n'ahandi hose hatangirwa serivisi z'uburezi aho abanyeshuri ndetse n'abaturage muri rusange bashobora kubona amakuru yimbitse. Abasoma ibitabo ndetse banakora ubushakashatsi ku ngingo runaka bagamije ko bazamura ireme ry'uburezi ndetse bakumva neza n'ibyo barimo biga.

Umusore wambaye ishati y'umukara arimo gusoma ibitabo, imbere ye hateretse mudasobwa ku meza aho arimo gukora ubushakashatsi kubyo yigiye mu ishuri, kugira ngo yiyungure ubumenyi burenze ku byo yahawe na mwarimu. Ibi bigaragaza iterambere ry'uburezi ndetse n'uburezi bufite ireme, aho abanyeshuri bahabwa umwanya wo gukora ubushakashatsi ku giti cyabo biyungura ubumenyi.

Isomero rusange ryo mu kigo k'ishuri ripanzemo ibitabo biri kutu etajeri dufite ibara ry'umuhondo aho bitondetse neza ku murongo hagendewe ku bwoko bw'ibitabo. Ibi akaba ari ibifasha abanyeshuri ndetse n'abarimu mu gutyaza ubumenyi mu gihe barimo gukora ibikorwa byabo bya buri munsi bijyanye no kurera ndetse no kurerwa.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu bikoresho bigezweho kandi bifasha abantu mu kunoza akazi kabo ka buri munsi yaba mu mu bigo by'amashuri iby'abikorera ndetse nahandi hatandukanye aha akaba ari mu cyumba cy'ishuri ahagaragara porojegiteri yifashishwa mu gusakaza amashusho igihe abanyeshuri barimo biga bikoroshya imyigishirize bityo bikagaragaza n'iterambere kandi mu burezi muri rusange.

Igisata cy'ikoranabuhanga, ni kimwe mu bifasha mu kunoza imitangire ya serivisi mu ngeri zitandukanye, aho bitakiri ngombwa ko abantu batonda imirongo, bajya gushaka serivisi runaka, ahubwo bifashisha ikoranabuhanga gusa, kugira ngo bahabwe izo serivisi, aha twavugamo nka mudasobwa, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga bene izi serivisi.

Gutera ibiti ni imwe mu nama zitangwa n'impuguke mu by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, zivuga ko ibiti bitanga akamaro kanini cyane, kuko bifata ubutaka bwo kuba bwaterwa n'isuri, ikindi kandi bikadufasha gukurura imvura ndetse no kuzana umwuka mwiza duhumeka, bityo akaba ari yo mpamvu buri bantu bose bagirwa inama yo gutera igiti byibuze kimwe, hafi y'urugo.

Icyumba gifashe neza kirimo ibikoresho by'ibanze nkenerwa mu gihe umuntu acumbitse, harimo: igitanda, matera, amashuka, utubati, ndetse n'ibindi. Aha akaba ari mu cyumba gicumbikwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza, igihe bari mu gihe cy'amasomo yabo. Ibi bikagaragaza ireme ry'uburezi riteye imbere, aho abanyeshuri bitabwaho bahabwa ibyangombwa nkenerwa, kugira ngo bagire imyigire myiza.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, cyanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu kigaragara muri kaminuza y'u Rwanda, aho cyifashishwa mu kuyobora abanyeshuri, abaturage, ndetse n'abandi bose bashaka serivisi muri iki kigo kibereka ibyerekezo bitandukanye bibarizwamo serivisi zinyuranye baje gushaka, harimo nk'ahigishirizwa amasiyansi, isomero rusange, ndetse n'ibindi.

Icyumba cy'ishuri kigishirizwamo abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, hagaragara ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abarimu ndetse n'abanyeshuri, harimo nk'intebe, ameza, ibibaho, ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusakaza amashusho, mu gihe abanyeshuri barimo kwiga.

Icyapa kiri ku muhanda nyabagendwa gifite ubuso bw'ubururu, cyanditseho amagambo mui iba ry'umweru, kiyobora abagikoresha umuhanda kibereka ko bageze ahakorera ishuri ry'ubumenyingiro ndetse n'imyuga rya Huye ahazwi nka IPRC Huye.

Icyumba cy'inama gihuriza hamwe abantu benshi bitabiriye ibikorwa bitandukanye nk'amanama, ubukwe, amahugurwa ndetse n'ibindi, harimo ibikoresho byihariye byifashishwa n'abakora ibikorwa bitandukanye muri iki cyumba, harimo indangururamajwi, ameza, utubati ndetse n'ibindi bakenera.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego zitandukanye biganjemo urubyiruko, aho bari guhabwa amahugurwa barebera hamwe uruhare rwabo mu guteza imbere igihugu binyuze mu mirimo yabo bakora bifashishije ikoranabuhanga, ndetse baba na ba ambasaderi b'iterambere ndetse n'imico myiza mu baturage.

Inyubako nini cyane y'igorofa yubakishije amatafari ahiye ifite igisenge cy'umutuku imanitseho icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, ndetse n'umweru, ibi akaba ari ibyapa bigenda bigaragara hirya no hino ku mazu, cyane cyane ahahurirwa n'abantu benshi, biyobora abantu bibereka ahatangirwa serivisi runaka cyangwa aho ibigo runaka bikorera.

Amasomero ni kimwe mu bikorwa remezo biboneka hirya no hino mu mashuri yaba abanza, ayisumbuye na kaminuza. Aho abanyeshuri bagera bakabona ibitabo bitandukanye, bibafasha mu kuyungura ubwenge ndetse no gutyaza ubumenyi, cyane cyane basoma ibijyanye n'ibyo biga, ndetse baniyungura ubumenyi mu bintu bitandukanye.

Mu nyubako zicumbikwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza, hagaragara ibikoresho by'ibanze, ndetse n'ibindi bitandukanye bibafasha kugira ubuzima bwiza, hagamijwe ko babaho mu buzima bwiza ndetse banazamura ireme ry'uburezi. Harimo nk'intebe, ameza, utubati ndetse n'ibindi.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu byihutisha imitangire ya serivisi hirya no hino mu nzego za leta ndetse no mu bigo binyuranye. Aho hagaragara ibikoresho by'ikoranabuhanga mu mashuri nka projecteur byifashishwa mu gusakaza amashusho ku banyeshuri bityo bikoroshya imyigire, ndetse bikagaragaza n'iterambere no muri systeme z'uburezi.

Amasomero ni kimwe mu bikorwa remezo biboneka hirya no hino mu mashuri, ndetse n'ahandi hose hatangirwa uburezi, hagaragara ibitabo bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri bakora ubushakashatsi, ndetse n'ubuvumbuzi butandukanye ndetse banasoma byinshi ku byo bigishijwe, bikagaragaza iterambere ndetse n'uburezi bufite ireme, abanyeshuri bahabwa byose bakenera mu burezi bwabo.

Abanyeshuri bambaye impuzankano igizwe n'amataburiya ndetse n'ibikoresho by'ubwirinzi aho bari mu nyubako laboratwari, aho baba bashyira mu ngiro ibyo bize mu mashuri ndetse banabyaza umusaruro ubumenyi bakoze bareba icyo bumara mu buzima rusange, bikagaragaza ireme ry'uburezi riteye imbere ndetse n'iterambere mu burezi muri rusange.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'uburezi z'amashuri zikikijwe n'ubwiherero ndetse n'igikoni hatunganyirizwa amafunguro abantu bafata mu gihe bari ku mashuri, hari ubusitani bwiza cyane ndetse bukikije iki kigo, aho butanga umwuka mwiza ku banyeshuri, ndetse bunakafata amazi yangiriza ndetse n'ashobora gutera isuri.

Icyumba cy'ishuri gisize amarangi y'ibara ry'umuhondo, kirimo intebe zabugenewe ndetse n'utumeza, aho abanyeshuri babika ibikoresho byabo. Imbere kandi hari table yandikwaho mu gihe abanyeshuri barimo gukurikira amasomo, bigishwa ku ngingo zitandukanye, byose bikaba ibikoresho by'ingenzi byifashishwa mu kunoza neza imitangire myiza ya serivisi z'uburezi.

Ubusitani bwiza cyane bugizwe n'indabo zigezweho, ndetse bukikijwe n'amashyamba manini cyane n'ibiti bikuze, aho ibiti bitanga umuyaga mwiza ku banyeshuri biga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ibi kandi bikagaragaza imitangire myiza y'ireme ry'uburezi aho abanyeshuri babona ibikorwa remezo ndetse n'ibindi byangombwa nkenerwa mu myigire yabo, bibafasha kugira imyigire myiza.

Inyubako nini cyane ifatirwamo amafunguro n'abanyeshuri hagaragaramo urujya m'uruza rw'abantu baje gufata amafunguro, hari kandi n'ibikoresho by'ibanze nkenerwa bakenera mu gihe barimo gufata amafunguro, harimo intebe zo kwicaraho, ameza, amasahani, amazi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego zitandukanye za Leta, bungurana ibitekerezo barebera hamwe icyakorwa, kugira ngo ireme ry'uburezi rizamurwe. Ndetse abanyeshuri bagire ubushobozi bwo gushyira mu ngiro ibyo baba bigishijwe hirya no hino ku mashuri, bityo bigire iterambere bibagezaho, ndetse banateze imbere Igihugu muri rusange.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu nzego ziri kuzamuka cyane hirya no hino mu gihugu ndetse no ku isi muri rusange. Aho kandi n'abanyeshuri batasigaye inyuma ahubwo bagirwa inama yo kwiga gukoresha ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga nka mudasobwa, terefoni ndetse n'ibindi, bakabikoresha bashaka ubumenyi buzabafasha mu gukemura ibibazo biri muri sosiyete hirya no hino mu gihugu.

Inyubako icururizwamo inyongeramusaruro imiti, imbuto, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa n'abahinzi ndetse n'aborozi mu kugira ngo banoze akazi kabo ka buri munsi, izwi nka farumasi, zikaba ziboneka hirya no hino mu gihugu aho zitanga serivisi z'ibanze ku borozi ndetse n'abahinzi, zibafasha mu kazi kabo ka buri munsi.

Inyubako igaragaramo ibikoresho by'ibanze byifashishwa n'umuntu uba ucumbitse, harimo akabati, ndetse n'igitanda, matera, amashuka, puberi, ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze, aha hakaba ari mu cyumba gicumbikwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza mu rwego rwo kubafasha koroshya imyigire yabo, bahabwa serivisi z'ibanze, amacumbi ndetse n'izindi.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu bikoresho byifashishwa mu ngeri zitandukanye z'abaturage ndetse no mu miyoborere mu kunoza ndetse no koroshya akazi ka buri munsi. Abanyeshuri na bo rero batozwa gukoreshe iri koranabuhanga mu rwego rwo kwimenyereza gukoresha ibikoresho bikenewe hanze ku isoko ry'umurimo, kugira ngo bazahangane ndetse batange umusanzu wabo mu kubaka Igihugu.

Abantu barimo kugenda imbere y'inyubako ndende cyane zikoreramo kaminuza nkuru y'u Rwanda, aho iruhande rwabo hari ubusitani ndetse n'amatara menshi cyane ateyemo, amurikira abagenda, ibi bigaragaza urujya n'uruza ndetse n'imyorohereze ku banyeshuri biga muri kaminuza, bibafasha kubaho ndetse bakajyira n'ubuzima bwiza igihe bari ku mashuri.

Inyubako ndende cyane z'amagorofa, zifite igisenge cy'umutuku, zubakishije amatafari ahiye, ndetsetse zikikijwe n'ubusitani bwiza cyane, zigerwa n'imihanda, aha akaba ari aho abanyeshuri bigira, hazwi nko mu bigo by'amashuri, bikagaragaza iterambere mu burezi, aho abantu bigira mu nyubako nziza ndetse zijyanye n'igihe, haba mu bikorwaremezo bibafasha mu kuzamura ireme ry'imyigire yabo.

Inyubako icumbikwamo n'abanyeshuri mu gihe barimo kwishyura amasomo yabo muri kaminuza, hagaragara ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri aho bacumbika harimo: nk'ibitanda, matela ,amarido, ibikapu, ndetse n'ibindi bibafasha mu kunoza imibereho yabo ya buri munsi.

Icyumba k'inama cyari cyahuriyemo abayobozi mu nzego za leta zitandukanye ndetse n'abanyeshuri, ubwo bungurana ibitekerezo ku cyakorwa kugira ngo abantu bahagarike ikwirakwira ry'indwara zandura, aho umwe mu bazungu bari bitabiriye iyi inama yari afite indangururamajwi arimo gutanga imbwirwaruhame.

Abanyeshuri bambaye amataburiya ndetse n'uturindantoki, bari muri laboratwari aho bashyiramo ingiro ibyo bize mu mashuri, bigaragaza ireme mu burezi ndetse n'iterambere mu burezi, ahagaragara ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri mu kumenya neza ndetse no gusobanukirwa ibyo biga umunsi ku wundi.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, kiri ku muhanda munini wa kaburimbo nyabagendwa kigaragaza ko hakorera ishuri ryisumbuye rya IPRC ishami ryayo rya Huye. Ahatangirwa serivisi z'uburezi bunyuranye yaba abiga imyuga ndetse n'ubukorikori butandukanye.

Inyubako y'igorofa ifite ubusitani bwiza imbere yabwo ndetse n'utuyira twagenewe abanyamaguru banyuramo. Iyi ikaba ari inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Aho babona ibikoresho ndetse n'ibindi by'ibanze nkenerwa mu buzima bwabo bibafasha mu koroshya imyigire yabo ya buri munsi.

Mu nyubako zicumbikwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, hagaragara ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri mu gihe bari ku masomo, byose bigaragaza ireme ryiza ndetse n'imitangire ya serivisi z'uburezi, harimo nk'ibitanda, matera, ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze byifashishwa n'aba banyeshuri mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Hirya no hino mu bigo bya leta mu mashuri ndetse n'ahandi hahurira abantu benshi, hagaragara ibyapa bitandukanye bigenda biyobora abantu bibereka ahatangirwa serivisi runaka, cyangwa se ahakorera ibigo bya leta bitandukanye. Iki kikaba ari icyapa kigaragara muri Kaminuza y'u Rwanda cyerekana ibyerekezo bitandukanye ndetse n'ibikorwa bikorerwa muri ibyo byerekezo.

Ikoranabuhanga ni kimwe mu bikoresho byifashishwa mu kuzamura iterambere, ndetse n'ubukungu hitabwa ku mirimo ndetse n'imitangire myiza ya serivisi inoze, aho urubyiruko rushishikarizwa cyane cyane kwibuka ikoranabuhanga nka kimwe mu bisubizo byihutisha imikorere n'imitangire ya serivisi, mu bigo bitandukanye bya leta ndetse n'iby'abikorera.

Icyumba cy'inama cyari cyabereyemo imurikagurisha, aho abanyeshuri basobanuraga ibintu bitandukanye bagenda bigira hirya no hino mu mashuri cyane cyane iniverisite nkuru y'u Rwanda. Aho barimo basobanura ibikorwa bitandukanye ndetse n'imishinga abanyeshuri bagezeho, mu gihe bari barimo gusoza amasomo yabo ya kaminuza.

Kimwe mu byumba bicumbikira abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, aho bahabwa kandi ibikoresho by'ibanze, nk'amazi, umuriro, ibitanda, amatara, ndetse n'ibindi byose bibafasha mu mibereho yabo, ibi bikagaragaza iterambere mu burezi, aho abanyeshuri bitabwaho kugira ngo ireme ry'uburezi rigerweho.

Umusore wambaye ingofero y'ubwirinzi n'igisarubeti cy'umukara, aho arimo kugenda mu cyumba kirimo amamashini menshi yifashishwa mu gufasha abanyeshuri mu kuzamura ireme ry'uburezi ndetse no kunoza imitangire ya serivisi. Ibi bikagaragaza iterambere mu burezi, aho ibikoresho kabuhariwe byifashishwa mu gutanga uburezi ndetse no kuzamura ubushobozi bw'abanyeshuri.

Hirya no hino mu bigo bya leta ndetse n'ahandi hahurira abantu benshi, hagaragara ibyapa bitandukanye byifashishwa mu kuyobora abantu, bibaha amakuru y'aho serivisi zitangirwa cyangwa se ibitangirwa muri ibyo bigo, iki kaba ari icyapa kigaragara muri Kaminuza y'u Rwanda, kigaragaza aho ibice bitandukanye bya Kaminuza biherereye, bityo kikaba kifashishwa mu kuyobora abashaka serivisi muri iyi Kaminuza.

Icyapa kinini kiriho umuhanda munini wa kaburimbo nyabagendwa, kiri mu ibara ry'ubururu cyatseho amagambo mu ibara ry'umweru, kimenyesha abakoresha umuhanda ndetse n'abandi bose ko hakorera ishuri ry'ubumenyi ndetse n'imyuga ngiro rya IPRC ishami ryayo rya Huye, akaba ari ahatangirwa uburezi bw'imyuga ndetse n'ubumenyi ngiro bifasha, gukora kwiteza imbere ndetse no kugirira akamaro igihugu na bo ubwabo bigirira akamaro muri rusange.

Abanyeshuri benshi cyane bicaye mu ishuri ku ntebe zabugenewe, imbere yabo hari utumeza ndetse bafite n'amakayi ,abandi bafite n'ibitabo barimo gukurikikira amasomo ari gutangwa n'umwarimu wabo hifashishijwe ikoranabuhanga ,ibi bikagaragaza iterambere mu burezi ndetse no kuzamuka kw'ireme ry'uburezi ,aho abanyeshuri bigishwa hifashijwe ibikoresho bijyanye n'igihe, ndetse banahabwa uburezi bw'ibanze nkenerwa, kugira ngo batange umusaruro mu gihugu.